Amafaranga y'amanyamahanga, barimo kuyahererekanya, bakaba bari kuvunjisha, umuntu wazanye aya mafaranga, baraza na we kumuha ayo mu gihugu ashaka, bikaba bikorwa n'abakozi babifitiye ububasha.

Inzu nziza cyane igeretse kane ifite imiryango y'ibiti byiza isize amarangi y'mweru n'umuhondo, ukaba ushobora kuyibona ku gihumbi kimwe cy'idorari kuyikodesha ku kwezi kumwe.

Umuganga uri kumwe n'umubyeyi, uyu mubyeyi waje kwivuza afite mituweli de sante mu ntoki ze, ikaba ari ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, isa umuhondo.